Ihuriro ry'abagore akaba ari gahunda rusange yashyizweho na leta y'u Rwanda, aho abagore bahura kugira ngo baganire muri rusange ku iterambere ry'abagore bose bo mu gihugu kugira ngo hakomeze kubaho uburinganire.

Gahunda rusange y'itorero yashyizweho mu Rwanda, aho abanyeshuri basoje amashuri yisumbuye bahurizwa hamwe bagahabwa amasomo ku bijyanye n'uko bakubaka igihugu ndetse bagasigasira ibyagezweho.

Inama ihuza abayobozi bagiye bakuriye imikino igiye itandukanye mu Rwanda yaba iy'amabokoko, iy'amaguru ndetse n'iy'indi minshi igiye itandukanye, kugira ngo bakomeze kurebera hamwe icyabafasha guteza imbere imikino yose.

Inama rusange zigenda zibera mu duce tugiye dutandukanye tw'igihugu, haba mu Midugudu, mu Tugari ndetse no mu Turere kugira ngo babe batekereza ku bibazo bigiye bihari ndetse babashe no kubikemura.

Inama rusange isuhuza abayobozi bagiye batandukanye bo mu gihugu kugira ngo baganire ku bibazo bigiye bitandukanye biri mu gihugu ndetse banarebe uburyo babikemura kugira abaturage bakomeze kubaho neza, ndetse n'igihugu bakome kugiteza imbere muri rusange.

Ikiganiro gitangwa n'umuyobozi wa RGB, Rwanda Governance Board, akaba ari ikigo gishinzwe kwimakaza imiyoborere ndetse n'imitangire myiza ya serivisi mu Rwanda ku baturage bose bari mu gihugu.

Inama rusange ihuza abayobozi bagiye batandukanye bo mu gihugu kugira ngo baganire ku bintu byateza imbere igihugu ndetse bakemure n'ibibazo bigiye bitandukanye, abaturage bahura nabyo mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Inama rusange zibera mu duce dutandukanye tw'igihugu, aho abayobozi begera abaturage mu midugudu yabo kugira ngo baganire ku bibazo bigiye bitandukanye biba bihari ndetse barebe n'uburyo babikemura kugira ngo igihugu gikomeze gitere imbere nta nkomyi.

Inama rusange iba igahuza abaturage ndetse n'abayobozi, igihe haba hamaze gukora igikorwa cy'umuganda gikorwa buri kwezi, kugira ngo baganirize abaturage ku bintu bigiye bitandukanye bibera mu gihugu.

Inama ihuza abayobozi bo mu mujyi wa Kigali bagiye batandukanye, kugira ngo baganire ku busugire ndetse no gukomeza gusa neza umujyi wa Kigali, mbese kugira ngo babungabunge isuku iri mu mujyi wa Kigali.

Inama ihuza abayobozi ndetse n'urubyiruko kugira ngo baganire ku kuntu bateza imbere siporo mu Rwanda ndetse n'imikino igiye itandukanye igiye iri mu gihugu cyacu.

Gahunda ishyirwaho n'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro mu Rwanda, Rwanda reveni otoriti, cyo gushimira abantu bishyura neza imisoro, kuko imisoro ikomeza gufasha mu kubaka igihugu ndetse no kugiteza imbere.

Itangazo ryatanzwe na RURA, ikigo cy'igihugu gishinzwe kugenzura imirimo ifitiye igihugu akamaro, rivuga ku bijyanye n'ikoreshwa rya gaze, kugira ngo abaturage birinde kuba bagira ibiza bahura nabyo biterwa no gukoresha nabi gaze.

Urubuga rwashyizweho na Leta y'u Rwanda, rufasha abantu bafashwe ku ngufu, ku buryo bakwagisesinga ikigo kizwi nka wani sitopu senta mu buryoboroheye kugira ngo bafashwe ku bibazo by'ihuhorwa bahuye nabyo.

Umunara rusange ushyirwaho na leta kugira ngo abaturage bakomeze kubona interinete ibafasha mu mirimo yabo ya buri munsi, igafasha n'abanyeshuri gusubira mu masomo yabo.

Urubuga rwashyizweho n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro mu Rwanda, Rwanda reveni otoriti, gifasha abishyura imisoro kumenya amakuru ahagije ku bijyanye n'imisoro, kugira ngo bayishyure neza nta mpungenge.

Ikigo cy'amashuri mu burezi budaheza, aho abanyeshuri bahurira, bagahabwa ubumenyi bugiye gutandukanye, bwaba ubwo gukoresha imashini ndetse n'ubwo mu buzima busanzwe, kugira ngo bakomeze kugira ubwenge.

Gahunda ishyirwaho n'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro Rwanda Revenue Authority, yo kwibutsa abantu kumenyekanisha, bakanishyura ipatanti y'umunsi kugira ngo birinde amande n'ibihano yo kuba bakerewe kubyishyura.

Urubuga rw'Irembo rufasha abaturage gukora serivisi zitandukanye muri Leta, nko kwishyura ubutaka, guhabwa ibyangombwa by'ubutaka, guhabwa ibyangombwa by'amavuko, guhabwa ibyangombwa by'abashakanye ndetse n'ibindi bitandukanye.

Urubuga rushyirwaho n'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro mu RRA kugira ngo rufashe abarukoresha kuba bakwishyura imisoro ndetse bakamenya n'amakuru agendanye n'imisoro bishyura, bitabasabye kuva aho bari.

Amashanyarazi ashyirwa mu duce dutandukanye tw'igihugu kugira ngo afashe abaturage bo mu duce dutandukanye, gukomeza gukora imirimo yabo ya buri munsi biboroheye bakomeza kwiteza imbere ndetse bateza n'igihugu imbere muri rusange.

Muri gahunda ishyirwaho na Leta yo gushyira amashanyarazi mu duce dutandukanye. Ayo mashanyarazi akaba agenzurwa n'ikigo kizwi nka REG kugira ngo abantu bose bo mu Gihugu babone amashanyarazi, ndetse n'igihe yagiye abura icyo kigo kibikurikirane.

Imodoka ndetse n'imihanda bishyirwaho na leta kugira ngo bifashe abaturage kujya bava ahantu bamwe bajya ahandi, kandi bakore imirimo yabo biboroheye kugira ngo igihugu muri rusange gitere imbere ndetse n'abaturage bakomeze kugeraho imibereho myiza.

Amashanyarazi atangwa na leta kugira ngo afashe abaturage bose baherereye mu gihugu mu gukora ibintu bitandukanye, yaba imirimo yabo ya buri munsi, abanyeshuri kwiga mu buryo buboroheye.

Imiyoboro y'amashanyarazi itangwa na leta ku baturage bose bo mu gihugu, kugira ngo bakomeze kubaho neza, kandi bibafashe mu mirimo yabo ya buri munsi y'aho bakorera, abanyeshuri bigira ndetse n'ahandi hantu hose.

Amatara ashyirwa ku mihanda igiye itandukanye yo mu gihugu, kugira ngo abantu igihe bageze mu masaha ya nijoro batagira ikibazo cyo kugenda mu mwijima cyane cyane ibinyabiziga kugira bidakora impanuka, abantu bakomeza kugendana umutekano.

Amatara agenda ashyirwa ku mihanda igiye itandukanye yo mu Rwanda kugira ngo abantu bagende mu masaha ya nijoro bakomeze kubafasha, ndetse hakaba hari n'amashanyarazi abafasha mu mirimo yabo itandukanye ya buri munsi ashyirwaho na leta.

Amashanyarazi atangwa na leta y'u Rwanda mu gihugu hose, kugira ngo afashe abaturage bose mu mirimo yabo igiye itandukanye, kugira ngo bakomeze kubaho neza ndetse afasha n'abanyeshuri mu masomo yabo ya buri munsi.

Ibigo nderabuzima byubaka mu duce dutandukanye tw'igihugu kugira ngo bikomeze gufasha ababigana gukurikirana ubuzima bwabo kugira ngo birinde ibibazo bitandukanye bishobora kubaviramo n'urupfu, bakomeze gukurikiranira ubuzima bwabo hafi.

Ibigo nderabuzima biba mu duce tugira dutandukanye tw'igihugu, aho byegerejwe abaturage kugira ngo bajye bakomeza gukurikirana ubuzima bwabo bwa buri munsi, aho kugira ngo barembere mu ngo zabo.

Ubuvuzi rusange butangwa mu mpande zigiye zitandukanye z'igihugu, aho abaturage begerezwa ibigo nderabuzima kugira ngo babone serivisi z'ubuvuzi mu buryo buboroheye.

Igikorwa gikorwa cyo gutanga ubutabera mu baturage, aho umuntu ushinjwa, ashaka umuburanira, ndetse akaba hari n'uri kumushinja, ariko nanone hakaba n'abantu batanga ibyemezo, kugira ngo abantu bose babone ubutabera.

Inama rusange ihuza abacamanza bo mu gihugu kugira ngo baganire ku byaha bitandukanye biri mu gihugu, ndetse barebe n'amategeko aba ahana ibyaha bigiye bitandukanye kugira ngo mu gihugu hakomeze kubaho ubutabera.

Urutonde rw'amategeko aba yarashyizweho n'inama iba yarahuje umuyobozi mukuru w'igihugu, igihe yahuriye hamwe n'abayobozi bagiye batandukanye, kugira ngo bashyireho amategeko agenga abaturage.

Umucamanza ufasha abaturage bo mu nzego zitandukanye, kubona ubutabera mu gihe haba habayeho ibyaha bigiye bitandukanye kugira ngo umuturage akomeze kubaho mu mahoro ndetse n'umutekano.

Inkiko za gacaca zashyizweho mu baturage kugira ngo zijye zitanga ubutabera bwunga mu bantu, zikaba zarashyizweho nyuma y'umwaka w'igihugu kinga icyenda mirongo icyenda na kane Jenoside irangiye kugira ngo abantu biyuge basubire mu bumwe.

Gahunda rusange yashyizweho na Leta y'u Rwanda kugira ngo abantu bakoze ibyaha bitandukanye, bajye bahurizwa mu bigo ngororamuco bigiye bitandukanye, basubizwe ku murongo ku buryo bazasubira mu buzima bwo hanze barisubiyeho kugira ngo Igihugu gikomeze kubaho mu mahoro.

Gahunda yashyizweho na leta aho abantu bashyizwe mu kigo ngororamuco bashyikirizwa ubutabera kugira ngo baburanishwe ku byaha bagiye bakora ndetse bahabwe n'amasomo abasha kubahindura, mu gihe bahamwe n'icyaha baba barakoze.

Uburyo bwashyizeho na leta y'u Rwanda, bwo gufasha abaturage bitabasabye kujya mu nzego zo hejuru, ahubwo bigatangirira mu nzego zo hasi, bafashwa n'abantu basanzwe babana hafi yabo, mu bibazo byabo bya buri munsi bahura na byo.

Inama rusange ihuza abayobozi bagiye batandukanye bo mu Rwanda, kugira ngo baganire muri rusange ku iterambere ry'igihugu, uko babungabunga bakanasigasira ibyagezweho ndetse n'uko bakomeza gufasha abaturage kubaho neza.

Igazeti ishyirwaho na Leta kugira ngo ifashe abanyagihugu ndetse n'abayobozi bose, kumenya buri cyaha ndetse n'itegeko rigihana kugira ngo bakomeze kwirinda ibyaha bigiye bitandukanye bibera mu gihugu.

Gahunda yashyizweho na leta y'u Rwanda yo gushyiraho amategeko agena imiterere ndetse n'imikorere ya komisiyo y'igihugu y'uburenganzira bwa muntu kugira ngo buri muntu wese aho ari ahabwe uburenganzira bwe.

Ikigo ngororamuco gishyirwaho na leta, kugira ngo abantu bagiye bakora ibyaha bitandukanye bahashyirwe, mu gihe baba bahabwa amasomo agiye atandukanye, kugira ngo igihe bazaba barangije ibihano byabo, bazasubire mu buzima bwo hanze barisubiyeho.

Mu kigo ngororamuco, aho abantu bajya bakora ibyaha bitandukanye babahuriza kugira ngo babe babasubiza ku murongo, ku buryo nibasubira mu buzima bwo hanze bazaba barisubiyeho. Muri kigo ngororamuco abantu baba bahugiye mu mirimo itandukanye, ibibagiza amakosa bagiye bakora ngo basubire ku murongo.

Iburanisha ry'abantu bagiye bakora ibyaha bigiye bitandukanye kugira ngo habashe kugaragara ubutabera ku bantu bagiye bakorerwa ibyo byaha kandi hakomeza kubaho amahoro n'ubumwe hagati y'abantu.

Gahunda rusange yashyizweho na Leta, ifasha abantu bagiye bakora ibyaha bitandukanye, gushaka abababuranira kugira ngo impande zombi, yaba ubushinjwa ndetse n'ushinja, bishakirwe ubutabera binyuze mu mahoro.

Inkiko za gacaca zashyizweho nyuma y'umwaka igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo icyenda na kane, kugira ngo abantu bagende baburanishwa ku byaha bitandukanye byakozwe bya jenoside, ku mpamvu zo kugira ngo bagarure umutekano ndetse n'amahoro mu banyarwanda.

Imodoka zo mu muhanda zikoreshwa n'abapolisi kugira ngo zifashe mu kugenzura umutekano wo mu muhanda, kurinda impanuka zitateganyijwe kugira ngo abaturage bakomeze kubaho neza.

Kizimyamwonto abenshi bazi nka faya egsitingwisha mu rurimi rw'amahanga ishyirwa ahantu hagiye hatandukanye kugira ngo igihe habaye inkongi y'umuriro yitabazwe mu kuzimya hirinde iyangirika ry'ibikorwa remezo bigiye bitandukanye.

Gahunda yashyizweho na Leta y'u Rwanda yo kugabanya Akarere n'Imirenge, Imirenge bakayigabanyamo Utugari ndetse n'Utugari bakabigabanyamo Umudugudu kugira ngo babashe kumenya buri muturage uri mu gihugu.

Igikorwa rusange gikorwa nyuma y'amatora, kikaba gikorwa mu gihe perezida wa repubulika aba ari kurahira nyuma yo gutsinda amatora aba yahabaye, kugira ngo atangire kuyobora manda ye nshyashya iba itangiye.

Gahunda yo gutora perezida wa repubulika ndetse n'abadepite ikorwa buri gihe iyo manda y'umukuru w'igihugu yarangiye kugira ngo bashake undi mukuru w'igihugu uzatangira kuyobora abaturage mu yindi manda iba itangiye.

Igikorwa gikorwa mu buryo bwo kugira ngo abayobozi batandukanye bo mu gihugu baba abasenateri, yaba abaminisitiri ndetse n'abandi bose babaha muri kabineti, barahire kugira ngo batangire inshingano zabo zo kuyobora.

Gahunda rusange iba mu gihugu, aho abakandida bo kwiyamamaza ku mwanya w'ubudepite ndetse n'umwanya wo kuyobora Igihugu, bafata umwanya bakazenguruka Igihugu cyose biyamamaza kugira ngo habeho amatora.

Gahunda ishyirwaho na leta, aho umuyobozi mukuru w'igihugu, ahura n'abandi bayobozi ba batandukanye bo mu maminisisteri kugira ngo baganire ku bibazo bigiye bitandukanye, barebe uko bakomeza guteza imbere igihugu.

Inama ihuza abayobozi batandukanye bo mu bihugu kugira ngo baganire ku bibazo biba biri mu gihugu ndetse barebe n'uko babikemura kugira ngo bakomeze kureberera iterambere ry'abaturage ndetse n'iterambere ry'igihugu muri rusange.

Imihanda yubakwa na leta kugira ngo ifashe abaturage baba abatwara ibinyabiziga ndetse n'abagendana n'amaguru gukora ingendo zigiye zitandukanye, ndetse bagakora n'akazi kabo kagiye gatandukanye mu buryo buboroheye kugira ngo bakomeze kwiteza imbere ndetse bateze n'igihugu imbere.

Ibikorwa remezo by'umuhanda bifasha abagenzi baba batwaye ibintu, baba abari mu ngendo kuva ahantu hamwe bajya ahandi biboroheye ndetse bikaborohereza n'imirimo yabo ya buri munsi.

Imihanda rusange yubatswe na leta kugira ngo ige ifasha abatwara ibinyabiziga ndetse n'abagenzi muri rusange gukora ingendo zigiye zitandukanye ndetse bagatwara n'ibintu bigiye bitandukanye mu buryo buboroheye.

Igikorwa rusange cyashyizweho na leta, aho imodoka z'ubwoko butandukanye ni ukuvuga amajansi atandukanye mu rurimi rw'amahanga, zigenda zigahurira kugira ngo abaturage bagende bahategere, bagiye mu ngendo zitandukanye, bikaborohera.

Imihanda yubakwa na leta kugira ngo ijye ifasha abantu bagiye batandukanye baba abatwara ibinyabiziga, abagenda n'amaguru ndetse n'abandi bakora imirimo igiye itandukanye, gukora imirimo yabo mu buryo buboroheye ndetse no kuva mu duce tumwe bajya mu tundi bitabagoye.

Imihanda yubakwa mu duce dutandukanye tw'igihugu, kugira ngo ifashe abantu batwara ibinyabiziga, ndetse n'abagenda n'amaguru, gukora imirimo yabo igiye itandukanye, ndetse bagakomeza kwiteza imbere bitabagoye, bagakora n'ingendo mu buryo buboroheye.

Imihanda rusange yubakwa na Leta, igashyirwamo n'ibimenyetso bigiye bitandukanye kugira ngo abantu bayikoresha bagiye mu mirimo igiye itandukanye, kandi bakomeze no kwirinda impanuka zishobora kubaho kugira ngo abantu bakomeze kugira ubuzima bwiza.

Imihanda rusange yashyizweho na leta kugira ngo ige igifasha abatwara imizigo ndetse n'abagenzi bagiye ahantu hatandukanye, yaba abagiye mu kazi n'abanyeshuri bagiye ku ishuri kugira ngo bagende biboroheye.

Imihanda yubatswe na leta, ifasha abaturage mu ngendo zabo za buri munsi ndetse n'inyubako zibafasha gukoreramo bagacuruza ibicuruzwa byabo kugira ngo bakomeze kubaho neza mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Ibibuga rusange byubakwa na leta kugira bikomeze gufasha urubyiruko ndetse n'abandi bantu bose muri rusange bifuza kwidagadura kandi bakomeze kwishimira ubuzima babayeho mu gihugu.

Ibyapa rusange bishyirwa ku mihanda na Leta kugirango bifashe abatwara ibinyabiziga ndetse n'abagendesha amaguru, mu kwirinda impanuka zigiye zitandukanye, igihe bari gukoresha imihanda kugira ngo bakomeze kugira ubuzima buzira umuze.

Ibyapa bishyirwa ku mihanda rusange bishyirwaho na Leta kugira ngo hirindwe ikibazo cy'akavuyo mu muhanda, gashobora kuba kabyara impanuka abantu hagahuriramo n'ibibazo bigiye bitandukanye.

Ibyapa rusange bishyirwa mu muhanda na leta kugira ngo biyobore abatwa ibinyabiziga ndetse n'abagenzi ko hari akazi kari gukorwa mu muhanda imbere kugira ngo birinde ibibazo by'impanuka byaza kubamo.

Icyapa gishyirwa mu muhanda na leta y'u Rwanda kugira ngo kiyobore abaturage mu gihe bari kwambukiranya imihanda batagongana n'ibinyabiziga kugira ngo hirindwe impanuka zigiye zitandukanye zibera mu mihanda zitateganyijwe.

Ibyapa bishyirwa ku mihanda rusange kugira ngo bifashe, abatwara ibinyabiziga ndetse n'abagendesha amaguru, kuba hagira impanuka ziba zitateganyijwe mu muhanda, bikaba byaviramo bamwe kubura ubuzima.

ibyapa rusange bigenda bishyirwa ku mihanda igiye itandukanye kugira ngo iyobore abantu bagenda muri iyo mihanda bamenye ahantu bageze kugira ngo bataza kuyoba.

Inyubako zubatswe na leta kugira ngo zifashe abaturage bakomeze kubona aho kuba, babona gucururiza ndetse bakomeza gukora ibikorwa bitandukanye bya buri munsi bibafasha kuzamura iterambere ryabo bwite ndetse n'iry'igihugu muri rusange.

Gahunda rusange yashyizweho na Leta yo gutuza abantu mu midugudu, kugira ngo abantu bakomeze kuba hamwe, babayemo mu mahoro, kandi Igihugu gikomeze gutera imbere nta kintu na kimwe kikizitira.

Amashanyarazi ndetse n'amazi bitangwa na leta kugira ngo bijye bifasha buri muturage, aho atuye hose mu mirimo ye igiye itandukanye kugira ngo bimuzamure mu iterambere rye kandi bizamuye n'iterambere ry'igihugu.

Ihuriro ry'abatwara amamoto bazwi nk'abamotari, bakoresha moto zo mu bwoko bwa sipiro kugira ngo batware abagenzi bave ahantu bamwe bajya ahandi, biborohere mu kazi k'abo bantu batwara ndetse n'abo babone ubuzima bwiza.

Imihanda yubakwa na leta kugirango ifashe abatwara ibinyabiziga ndetse n'abantu bagenda n'amaguru gukora ingendo zigiye zitandukanye ndetse no gukora imirimo ige itandukanye kugira ngo bi biteze imbere ndetse bakomezaze no guteza imbere igihugu muri rusange.

Imihanda yubakwa na leta kugira ngo ifashe abaturage aho bari hose, mu gukora ingendo zigiye zitandukanye, bagiye mu mirimo yabo kandi bakomeze kunoza serivisi bagenda batanga hagati yabo.

Umuhanda ni igikorwaremezo gifasha abantu bose mu buzima bwabo bwa buri munsi turavuga abamotari, imodoka ndetse n'abandi bantu bawukoresha mu buryo busanzwe burabafasha mu bikorwa byabo bya buri munsi.

Imihanda yubakwa na leta ndetse igashyiramo n'amatara agiye atandukanye abenshi bazi nka feruje mu rurimi rw'amahanga, afasha abantu kwirinda impanuka zigiye zitandukanye. Baba abakoresha ibinyabiziga ndetse n'abagenda n'amaguru.

Imihanda rusange yubatswe na leta kugira ngo igifasha abagenzi ndetse n'abatwara ibintu bigiye bitandukanye, kuva ahantu hamwe bajya ahandi ndetse bagatwara n'ibyo bintu bava ahantu hamwe bajya ahandi, bikaborohereza mu kazi kabo.